Cya gihe wuzuye ibyishimo n'umutuzo kuko imodoka yawe iri mu biganza by'inshuti yizewe hitamo buritamu ikigo cy'ubwishingizi kigufitiye serivisi aho ushobora kwishingira imodoka yawe ukabaho utuje kandi wishimye.

Ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi cya ''Britam'', muri gahunda yayo cyise ''gendana icyizere buri ntambwe y'urugendo''; gifite serivisi nshyashya aho kishingira ibinyabiziga, ukabaho utekanye ndetse n'ikinyabiziga cyawe gifite umutekano. Hitamo Buritamu inshuti y'ibihe byose.

Ikigo cy'ubwishingizi kizwi nka Radiant kibafitiye serivisi nshya y'ubwishingizi bwo kwiba, akaba ari serivisi ishinganisha amatungo yawe, mu gihe wibwe ukaba wabasha kwishyurwa bitakuvunye, ukongera ukabaho neza kandi utekanye.

Iyi foto iragaragaza ko hamwe na Sonarwa ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubwishingizi, ushobora gushinganisha ubworozi bwawe ndetse n'ubuhinzi bwawe bukabaho butekanye kandi ukirinda ibihombo.

Urupapuro rugaragaza uburyo amafaranga yagiye ava kuri konti kane, zeru, kabiri, rimwe, zeru, zeru, gatandatu, karindwi, kabiri, rimwe, gatandatu, karindwi yo muri Equity banki.

Imitako y'ubwiza yambarwa n'abantu ku maboko, ikoze mubizwi nkamasaro, ikaba iri mumabara atandukanye, harimo umuhondo icyatsi, umutuku, umukara, ubururu, umweru.

Akamashini gakoresha ikoranabuhanga rigezweho kifashishwa mu kubara amafaranga, cyane cyane gakoreshwa mu bigo by'imari nk'amabanki, amasako ndetse n'ibindi bigo bitanga serivisi z'imari ndetse kakanifashishwa no kuba kamenya inote itujuje ubuziranenge.

Icyuma cyabugenewe kibika umusaruro w'ibikomoka ku matungo, watunganyijwe n'uruganda rw'i Nyanza ndetse na firigo igaragaza amata agiye ari mu ngano itandukanye abitsemo.

Ubucuruzi buciriritse bw'ibinyobwa bitandukanye bikomoka ku mbuto, harimo ibikomoka ku nanasi, ibikomoka ku myemb, ibikomoka kuri pome ndetse n'izindi mbuto zigiye zitandukanye, hakaba n'ubucuruzi bw'igikoma, icyayi ndetse n'ibikomoka ku ifarini.

Kopedu piyerisi, twizigame, tugurizwe, dutere imbere. Ohereza unakire amafaranga ukoresheje uburyo bw'iyakure hamwe na COPEDU.

Iyi foto iragaragaza serivisi zitangwa n'urubuga ikashi, urubuga rutanga serivisi z'ikoranabuhanga, aho ushobora kubona serivisi z'amabanki, serivisi z'itumanaho, wifashishije apulikasiyo cyangwa ukanze imibare muri telefoni yawe, ukaba wabasha kugura umuriro, kwishyura amazi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Urubuga rutanga serivise zo kwishyura ndetse no kwishyurwa hakoreshejwe iyakure; ndetse n'izindi serivisi zose: harimo iz'amabanki, kugura umuriro, kugura amainite, ndetse n'andi maserivisi agiye atandukanye.

Urubuga rwo kwishyurana mu buryo bugezweho, aho usabwa nimero za telefoni, nimero ya konti ya banki ndetse n'aho uherereye, ukaba wabasha kwishyura mu buryo bukoroheye ukoresheje telefone yawe, cyangwa ikindi gikoresho cyose cya tekinoholoji gikoresha murandasi.

Inyemezabwishyu y'umusoro itanzwe nikigo cy'igihugu cy'umusoro. Ikaba ihawe ikigo gishinzwe gutanga serivisi z ubwishingizi Purayime inshuwarense, mu karere ka Nyarugenge, amafaranga yishyuwe angana n'ibihumbi magana abiri na mirongo itanu.

Inyemezabwishyu itanzwe n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, ikaba ihawe kampani ya ngari hayiropawa rimitedi iherereye mu karere ka Kayonza, ikaba itanzwe n'Uwamahoro Magnifique.

Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro, ndahamya ko Ette Blecom ltd, isora ikoresheje nimero rimwe zeru kabiri kabiri icyenda kabiri karindwi icyenda gatanu, adafitiye umwenda w'imisoro ikigo cy'imisoro n'amahoro.

Amafaranga y'Amanyamerika. Aya mafaranga uyu umuntu afite mu ntoki, ni amafaranga azwi ku izina ry'amadolari. Akaba ari amafaranga akoreshwa ku isi hose, ariko cyane cyane akaba ari ayo muri Leta zunze ubumwe z'Amerika. iyi note turi kubona, ni inote y'idolari rimwe.

Ifoto iragaragaza amafaranga yo mu bihugu bigiye bitandukanye, harimo amafaranga yo mu gihugu cya Nigeriya. Ndetse hakabamo amafaranga y'amadolari yo mu gihugu cya Leta zunze ubumwe z'Amerika.

Uko idolari rimwe rivunjwa mu yandi mafaranga, idolari rimwe ry' abanyamerika ringana n'idolari rimwe y'abanyamerika, idolari rimwe ringana n'amayero zeru n'ibice cumi n'icyenda, idorari rimwe ringana n'amapawundi y'u bwongereza zeru n'ibice mirongo irindwi na birindwi.

Aya ni amafaranga yo mu bihugu bigiye bitandukanye hakaba harimo amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'u rwanda, amafaranga akoreshwa muri Maleziya ndetse n'amafaranga akoreshwa muri leta zunze ubumwe za Amerika, harimo inote y'igihumbi, iy'ibihumbi bitanu, iya mirongo itanu ndetse n'inote ya maganatanu.

Aho batangira serivisi z'ivunja n'ivunjisha ry'amafaranga ndetse n'izindi serivisi zose zerekeye kohereza amafaranga hakoreshejwe uburyo bugiye butandukanye bwemewe, haba mu gihu mu imbere ndetse no hanze yacyo.

Ahatangirwa serivisi z'ivunja n'ivunjisha ry'amafaranga atandukanye, ndetse hakanatangirwa serivisi z'ama Banke ndetse n'uburyo bwo korohereza no kohererezanya amafaranga, binyuze mu buryo bwa murandasi.

Inzu zitangirwamo serivisi zitandukanye, harimo; kohereza no kohererezwa amafaranga, kugura amatike y'indege, serivisi z'ubukerarugendo, serivisi z'ubwisungane ku butembere.

Iyi foto iri kugaragaza icyumba ndetse n'ibikoresho bikigize harimo uburiri bushashe neza ndetse n'intebe ebyiri zo kuganiriraraho n'ikindi gice kigaragaza aho umuntu yakorera imirimo igiye itandukanye y'akazi ke ka buri munsi mu gihe yaba ari mu cyumba.

Hoteri nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali, ikaba ari hoteri itanga serivisi z'amacumbi, resitora, ibyumba by'inama ndetse ikaba yakira abantu bose yaba abanyagihugu ndetse n'abaturutse hanze y'igihugu, akaba ari hoteri yitwa onomo.

Ibiro by'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubwishingizi kizwi ku izina rya Saniramu, ibiro bitatse neza mu bipirizo by'amabara atandukanye, ari yo umweru ndetse n'ubururu, bakaba bagaragaza intebe nziza kandi zifite isuku.

Byoroshye hamwe na Beka turi kumwe, ushobora kubona angana inshuro ebyiri z'umushahara wawe mu masaha mirongo ine n'umunani ni serivise ya banke ya Kigali, yorohereza abakiriya babo kuba babona amafaranga angana n'umushahara wabo mu gihe kitarenze amasaha mirongo ine n'umunani.

Kashi zihuse nta ngwate, KARAME, tugane tuguhe ahagera kuri miliyoni mirongo itanu z'Amanyarwanda bitarenze amasaha makumyabiri n'ane, amategeko n'amabwiriza birakurikizwa.

Isoko ry'imyambaro y'abadamu izwi ku izina ry'ibitenge, aho iyi myambaro igiye iri mu bwoko butandukanye ndetse n'amabara atandukanye yiganje muri buri mwambaro.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye, harimo ibitunguru byo guteka, ibitunguru byo kurya, inyanya, indimu, amakaroni, mayoneze, icyayi, amavuta ndetse n'ubunyobwa.

Isoko ry'ibiribwa aho abantu bahurira bagacuruza ibicuruzwa bitandukanye, abantu baba baturutse mu nce zigiye zitandukanye bagahurira hamwe bakaza bakagurisha ibicuruzwa, harimo ibitoki, amakaroti, imineke, ibikoro, imyumbati ndetse n'ibindi.

Ahacururizwa imitako ndetse n'ibikoresho bimwe na bimwe, bigaragaza umuco gakondo wa Afurika, harimo imyuko, imitako, uduseke, utwibo ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inyubako igaragaza isoko rya kijyambere rigezweho ryubatswe mu mujyi wa Kigali, ikaba ari inyubako ikorerwamo abantu b'ingeri zose kandi batanga serivisi zigiye zitandukanye, akaba ari inyubako igizwe n'amagorofa atanu.

Isoko ryubatswe mu buryo bwa kijyambere, ririmo abamama babiri, bari gucuruza ibicuruzwa bikomoka mu matungo, ariyo inkoko, bakaba bari gucuruza amagi.

Isoko ry'imboga ryubatse mu buryo bwa kijyambere, rihurirwamo n'abacuruzi bagiye batandukanye, bacuruza imboga harimo ibitunguru, karoti, amashaza, imbwija, amashu, ibibiringanya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umucuruzi wishimiye kugaragariza abaguzi be ko ushobora kwishyura mu buryo bworoshye igicuruzwa waba ufashe, ukoresheje serivisi za telefoni, ukanze kode ya nimero, karindwi zeru, gatandatu, kane, karindwi.

Ugiye kohereza amafaranga igihumbi kuri Fabrice Hakuzimana, emeza ushyiramo umubare wibanga, kugira ngo ubashe kohereza amafaranga kuri iyi nimero.

Umucuruzi wa serivisi z'ikoranabuhanga cyane cyane izerekeye za serivisi z'itumanaho hakoreshejwe telefoni, aho yari ahagararanye n'umukiriya ari kumuha serivisi.

Ubu ngubu wabasha kwigurira ibyo ukeneye byose bitagusabye kuva iwawe, wifashishije urubuga Ruti Rwanda. Ni urubuga ushobora gusangaho serivisi zitandukanye, harimo ibicuruzwa by'abagabo, harimo ibicuruzwa by'abagore, harimo ibicuruzwa by'abana ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Amadolari magana atanu mirongo itanu, ashobora kugukodeshereza ahantu nk'aha ngaha, mu gihe kingana n'ukwezi, aha nga ni mu mujyi wa Kigali hakaba muri Kabeza.

Ikibanza giherereye mu karere ka Kicukiro impande y'inzu y'akarere, kikaba ari ikibanza gifite ubugari bungana na metero kare igihumbi magana arindwi, iki kibanza ukaba wakibona kuri miliyoni magana atatu n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa ibihumbi makumyabiri na birindwi magana atanu by'amadolari.

Iyi ni inyubako nziza iherereye mu Karere ka Kicukiro, Umurenge wa Kagarama, mu Mujyi wa Kigali, inyubako ikodeshwa, aho ikodeshwa amafaranga angana n'amadolari igihumbi n'ijana ku kwezi.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho iherereye mu mujyi wa Kigali, inzu irimo amakaro, amarangi, imiteguro myiza yo mu nzu mo imbere, iyi nzu ushobora kuyibona ku gaciro ka miliyoni ijana na mirongo itatu z'amanyarwanda.

Inzu nziza ikodeshwa, iyi nzu ikaba iherereye mu Mujyi wa Kigali muri Kimironko, ikaba igizwe n'ibyumba bitatu, ubwogero ndetse n'ubwiherero bwo mu nzu bubiri, iyi nzu ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Inzu nziza iherereye mu mujyi wa kigali I kanombe inzu ikaba igizwe n'ibyumba bine ndetse n'ubwiherero na toilet byo mu nzu bitatu iyi nzu ikaba ari nziza ukaba wayibona ku mafaranga makeya cyane

Inzu nziza iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali ikaba ari inzu yubatse mu buryo bugezweho ndetse ikaba iherereye n'ahantu heza, yubakishije ibikoresho byiza kandi bya oroginali, iyi nzu ikaba wayibona ku mafaranga miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amanyarwanda.

Inzu nziza cyane iherereye Mayange, ikaba ifite amakaro hose mu nzu, iyi nzu ukaba wayibona ku mafaranga miliyoni cumi n'eshanu z'amanyarwanda, ni inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho kandi buryoheye amaso.

Inzu nziza nshyashya iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali, iyi nzu ikaba igizwe n'ibyumba bitanu, ubwiherero ndetse n'ubwogero bune bwo mu nzu kandi iyi nzu ikaba iherereye mu kibanza kingana na metero kare magana ane na mirongo itanu, iyi nzu ukaba wayibona kuri miriyoni ijana na mirongo itanu z'amanyarwanda.

Abubatsi bari kubaka inzu ntoya iciriritse igizwe n'ibyumba bibiri ndetse na saro, aho ushobora kuyibamo utiriwe ukeneye inzu nini cyane kandi ukabaho neza wowe n'umuryango wawe.

Iduka ricururizwamo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye ndetse n'amaduka atandukanye agiye arigaragaramo, harimo ibicuruza ibikapu by'abadamu ndetse n'imyenda y'abadamu, iricuruza imyenda y'abana ndetse n'icuruza serivisi zitandukanye.

Aho bacururiza imyambaro igiye itandukanye, harimo imipira yo kwifubika, udupira two kwambara ndetse n'amapantaro, umusore urimo urigera umupira ngo arebe ko yawushima.

Inyubako ikoreramo ikigo nderabuzima cya Kabazungu, aho ari serivisi zegerejwe abaturage kugira ngo abaturage batazongera kurembera mu rugo ndetse no kwirinda ko bazongera gukora ingendo za kure bajya gushaka serivisi zijyanye n'ubuzima.

Izigamire ugire ejo hazaza. Nkuko Minisiteri y'ubukungu, ndetse n'iterambere ry'igihugu bishishikariza abaturage, kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Ni byiza ko watangira kwizigamira kugira ngo uzabone kubaho mu busaza bwawe kandi neza.